Kwamamaza ni bimwe mu bintu bishobora kugufasha mu bwishingi, aho bari kukwereka ko bashobora kugufasha kukwishingira ubuzima bwawe bw'ahazaza wowe n'umuryango wawe, bakakubaza bati: "Ese ufite umutekano w'ahazaza hawe na famiye?" Bakwereka uburyo ki ushobora kwishinganisha.

Kwamamaza kugendeye ku kwishyura mitiweri, aho bakwereka ko ushobora kwishyura ukoresheje telefone, handitse dosiye yawe isaba kwishyura mituweli, ifite kode yo kwishyuriraho nimero umunani, umuani, udukubo, udukobo, yoherejwe neza, amafaranga wishyura, cumi na bibiri, ukishyura mbere y'itariki eshanu z'ukwa karindwi.

Ifoto igaragaza kwamamaza ubwishingizi bwa sosiyete ya radiyanti, aho isezerano ni isezerano, ibyishimo by'umuryango ni ukudahangayikira ahazaza hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza bwawe n'umuryango wawe. Ushobora kuba wabahamagara kuri nimero ya telefoni makumyabiri mirongo itanu irindwi n'icyenda mirongo ine irindwi n'umunani gatandatu gadatu imwe, cyangwa se ukabandikira kuri izi nimero zikurikira.

Kwamamaza ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi ku bantu ndetse n'ibintu byabo bakaba bagufasha mugihe waba wagize ibyago, ibyawe byangiritse bakwishingira mugihe iduka ryawe, inzu yawe, imodoka yawe, umuntu wawe aho waba wagize ikibazo cyose baka bakwishingira kandi vuba.

Uburyo bw'ikoranabuhanga, bukoreshwa na banke ushobora kuba wagenzura konti yawe, amafaranga wabikije, ibyo wagiye ukorera kuri banki yawe, amafaranga wishyuye, amayinite waguze, amakuru agiye atandukanye, kubitsa no kubikura.

Hano baratwereka bumwe mu buryo bwifashishwa na banki bikoreshejwe ikoranabuhanga aho ushobora kubona serivisi zitandukanye utarinze kujya gutonda umurongo ku ma banki. Ukaba wafunguza konti yawe ukareba bimwe mu bikorwa bikorerwa kuri konti yawe ukoresheje terefone yawe ngendanwa cyangwa mudasobwa yawe.

Ifoto itwereka uburyo ki ushobora gukoresha banki yawe kuri terefone yawe cyangwa se mudasobwa yawe ukoresheje murandasi, aho wubaka urubuga rwawe ukamenya uko wakontorora amafaranga yinjiye, ayasohotse, ayo ufitemo, inguzanyo waba ufite muri banki utarinze kujya gutonda umurongo.

Iduka bahaheramo imyenda itandukanye, harimo amashati y'abagabo, afite amabara agiye atandukanye, hakaba igipupe cyifashishwa mu kwambika imyenda iri gucuruzwa, kugira ngo abakiriya babe bayibona.

Iduka aho bagiye bacuruza, imyambaro itandukanye igiye igezweho, aho umucuruzi afite imwe mu myenda acuruza, agaragaza ko yishimye...

Inkweto zimanitse ziri mu bwoko butandukanye adidasi, nike, ifite inkweto za siporo z'ubururu mu iduka ryazo zijye zitondekanya ku misitari itatu.

Ifoto itwereka iduka ricuruza imwe mu mitako itandukanye, harimo imigongo, ari yo mitako ikunda kwifashishwa mu Rwanda, igaragaza imwe mu mico yo mu Rwanda, umuntu wayibona akamenya igihugu icyo ari cyo, bacuruza bimwe mu bikoresho nk'amasakoshi y'abagore, inkweto ndetse n'ibindi bita...

Imodoka zo mu bwoko bwa benzi ziri ahantu hamwe mu muhanda wibitaka ziri ku murongo umwe ahantu hateye ibiti ndetse n'inyubako ndende kumpande.

Ifoto iratwereka ihererekanyabubasha, hagati y'umuguzi ndetse n'umugurisha, na sosiyete y'Akagera moto ishinzwe gucuruza, ndetse no gutumizaho ibikoresho bitandukanye, by'ibinyabiziga, amamodoka, amamoto, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusana ibyangiritse ku binyabiziga bitandukanye.

Akagera moto sosiyete ishinzwe ininyabiziga amamodoka, kuyagurisha kuyakodesha hano, umuryango w'abazungu ubwo bakiraga imodoka yabo iturutse mu kagera.

Aho amamodoka aparika imodoka ifite amapine ane y'umukara, ifite ibara ry'umweru, inyubako ku ruhande, inyubako ndende ifite amadirishya menshi ibiti ku mpande, imodoka zigiye zifiteho amatara asa umukara.

Imodoka ifite amatara imbere, yifashishwa n'abantu basanzwe bagenda mu ngendo zitandukanye, iri mu bwoko bw'ivatiri.

Hano hari kuba igikorwa cyo guhererekanya ububasha muri sosiyete ya Akagera ,ibinyabiziga bigiye bitandukanye, abagabo babiri bari guhererekanya urufunguzo runini rukozwe mubi papuro, inyuma y'aho hari imodoka ya fuso y'igikamyo.

Hano baratwereka amafaranga igiceri cya mirongo itanu, igiceri kiriho ikirangantego cy'u Rwanda, amagambo ariho turabona umubare mirongo itanu andi yanditse mu gifaransa kigaragaza amafaranga amafaranga mirongo itanu, igisiga mu kirangantego.

Hano turi kubona umugabo ufite amafaranga menshi ndetse n'icyuma cyifashishwa babara amafaranga kugira ngo bitarushya abantu, bafata amafaranga uko yaba angana kose bagashyira muri icyo cyuma kikaba cyayabara kikakubwira umubare wayo utarinze guta umwanya uri kubara.

Banke nasiyonali y'u Rwanda, amafaranga ijana, imisozi, ibiti, ndetse n'amazi.

Icyumba bacururizamo ibinyomba bigiye bitandukanye bikomoka ku mata. Liberata: zeru karindwi umunani umunani, makumyabiri na karindwi, makunyabiri na kabiri, mirongo inani na karindwi.

Umumama w'umusiramu yitandiriye igitambaro, afite ijage irimo amata, ku ruhande hari indobo y'icyatsi, hirya hari icyuma cy'ikaragiro ry'amata y'inyange, umubirikira wifashishwa basuka amazi, ikaragiro rifite ibara ry'ubururu ryifashishwa mu kubika amata neza, akameza baterekaho amajage.

Aho bagurira amata ikaragiro ry'amata inyange, amaji ayagiye atandukanye amakarito y'amata y'inyange ibinyobwa bye bitandukanye amandazi amabido ijerekani.

Telefone ngendanwa yo mu bwoko bwa samusangi ikwifashishwa mu kuba wakohereza amafaranga cyangwa wakakira amafaranga, kanda rimwe kohereza amafaranga, kanda kabiri kugura, kanda gatatu kwishyura, kanda kane serivisi za banki, kanda gatanu serivisi z'ivunjisha, kanda gatandatu urebe konti yawe, kanda icyenda gushaka ubufasha, kanda umunani kubw'umutekano.

Uburyo bwifashishwa, umuntu yishyura amafaranga akoresheje telefoni ye cyangwa se mudasobwa ye, hano bari kukwereka uburyi ki ushobora kubikora, ukanda rimwe ukaba wakora sitetimenti yawe, kabiri ndetse na zeru, mu gihe ushaka kuba wasubira inyuma.

Uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga bwitwa peyipari, aho ushyiramo imeri yawe, umubare w'ibanga, ukaba wakinjiramo ugakoresha izo serivisi zo kwishyura ibicuruzwa bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga, cyangwa se ugakoraho urubuga rwawe ku buryo ki ushobora kwinjiramo ukoresha serivisi zitandukanye.

Iratwereka uburyo ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe igendanwa cyangwa se mudasobwa yawe kuri murandasi utarindiriye kuba ufite amafaranga mu ntoki hano bakaba bagusaba imyirondoro yawe mu gihugu uherereyemo ukaba wabasha kuba wakishyura cyangwa se ukohereza cyangwa se ukanagura ikintu wibereye ahantu.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo wa sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni ari kumwe n'abagabo batatu kumpande ateruye icupa ry'ikinyobwa kidasembuye cya fanta afite imisatsi miremire asa nk'aho ari kubwira abo bari kumwe ibintu bigiye bitandukanye.

Uburyo bwo kwishyura, kohereza cyangwa se kugura ukoresheje telefoni yawe, sipeni irahari wakanda ukaba wakishyura.

Uburyo bwo kwishyura, ukoresheje ikoranabuhanga hamwe na sosiyete ya Sipeyini, ushobora kohereza amafaranga ku buntu, ukabona inyungu y'ane ku ijana ku mafaranga wabitse, ushobora kugura amayinite ku buntu, ukaba wakishyura ibintu bigiye bitandukanye, binyuze kuri murandasi.

Uburyo bugezweho bwo kuba wakishyura cyangwa se uba wakakira cyangwa ukohereza amafaranga ukoresheje terefone yawe igendanwa cyangwa se mudasobwa yawe ikaba ifitemo ibice bitatu; ushobora kwishyura ukoresheje amafaranga, ukoresheje terefone cyangwa se umurongo wo guhamagara, ukaba wabikoresha ku muntu ufite banki cyangwa se utayifite.

Urupapuro rugaragaza amafaranga yakoreshejwe kuva mu kwa mbere kuva ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kugera kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri, bibiri na makumyabiri n'agatatu.

Igihe byasohorewe: makumyabiri n'umunani, bibiri na makumyabiri na gatatu, agace: Ngoma, nimero ya konti: makumyabiri na rimwe, magana atatu mirongo itanu na cumi, aho bikorewe: Rugunga, Muyange, Kagarama, Kicukiro muri Kigali.

Urupapuro rwatangwa na Rwanda Revenue ikorera sosiyete ishinzwe iby'imisoro, hano batwereka ikorera mu karere ka Gasabo izina ni uruganda rwa amekikoro bari kwishyura imisoro amafaranga batanze ni ibihumbi magana abiri mirongo itanu ariyo musoro wabo.

Urupapuro rwanditseho icyemezo kimara amezi atatu gusa, iki cyemezo ntigishobora gukoreshwa mu ihinduranya imitungo itimukanwa, bikorewe i Kigali tariki cumi n'enye zukwa munani bibiri makumyabiri n'agatatu, komisiyo y'imisoro y'imbere mu gihugu Batamuriza Hajala bikorewe Kimihurura.

Itariki umunani z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu, itariki umunani z'ukwa cumi na kumwe bibiri na makumyabiri na gatatu, ijana, ijana na gatatu, mirongo ine, kane rimwe kabiri, kabiri gatandatu, kane gatanu rimwe. Banki amafaranga yagukuyeho, umunani z' ukwa cumi na kumwe...

Raporo igeza kwishyura umusoro muri amekikoro mu ruganda rwa mikicoro ruherereye muri gasabo dushyizo ubwa mbereliyo makumyabiri nakabiri kugera ku itariki mirongoinotatu n'mwe cumi nakumyabiri na kabiri igihe batangiye tariki makumyabiri neyebiri makumyabiri naka kabiri igihe cyo kutarenzeza cumi ne'shanu n'ukwa kabiri nakumya naka kabiri.

Inoti y'ijana, inoti ya magana abiri, inoti ya mirongo itanu, iri mu ibara ry'umutuku iyindi mu ibara ry'icyatsi umugabo wambaye ishati iriho igipesu inoti iriho inyubako.

Inoti ifashwe n'umuntu mu kiganza ishushanyijeho inyubako, marinete ku ruhande amadarubindi, amagambo agiye yanditse bitandukanye mu rurimi rw'icyo gihugu.

Hano baratwereka ku bijyanye n'igura ndetse n'igurisha n'agaciro k'amafaranga, bitewe n'ayariyo n'aho uyohereza. Aho bakwereka bitewe n'igihugu amafaranga ushobora kuba, ayo wohereza n'ay' umuntu ashobora kwakira.

Amafaranga ijana, amafaranga yo muri Amerika, ari ho umugabo ariyo madorari, yifashishwa muri Amerika, ariyo mafaranga y'igihugu cyabo.

Amafaranga inoti imwe handitseho umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda, amagambo y'igishinwa umugabo ufite umusatsi mukeya wambaye ishati iriho igipesu, amagambo ega umunani, umunani, gatatu, gatandatu, makumyabiri n'umunani, mirongo icyenda.

Amafaranga yitwa amayero, amafaranga ya mbere inote ya mbere, iyero y'amafaranga atanu, hariho idarapo risa ubururu n'inyenyeri, aya kabiri ni amayeri cumi, aya gatatu ni amayero makumyabiri, amayero mirongo itanu, amayero ijana, n'amayero magana abiri.

icyapa cyanditseho ''emutiyene Uganda'' sosiyete y'itumanaho ''emutiyene'' idarapo ry'igihugu cya Uganda, igihugu cya Kenya, idaku igihugu cya Tanzania bigaragaza yuko aho hantu serivisi batanga buruhudu ruturuka mu gihugu cya Uganda Tanzania na Kenya bagufasha mu kubika ndetse no kubiku amafaranga harimo nimero zitishyuzwa zo guhamagara mu gihe ukeneye serivisi.

Icyapa kiriho nimero ya telefone, zeru karindwi umunani gatatu gatanu kabiri gatanu icyenda zeru rimwe, cyangwa zeru karindwi umunani umunani gatandatu karindwi gatanu gatanu icyenda gatandatu, kiri ku nyubako aho hahagaze abantu, nimero zifashishwa mu gihe umuntu hari ukeneye ibindi bisobanuro kuri service abo bantu baba batanga.

Ibyapa bigaragaza amagambo agiye atandukanye ndetse n'ibyerekezo, ibikoresho bikoreshwa mu kwinjira ukozaho ikarita ikwemerera kwinjira ahantu batangira serivise zitandukanye, amagambo ari mu rurimi rw'igishinwa mu ibara cy'ubururu biri mu cyapa cy'umuhondo,

abantu batanga serivisi yo kuvunja ndetse no kuvunjisha amafaranga mu bihugu bitandukanye, kohereza ndetse no kuyakira bakoresheje ikoranabuhanga ritandukanye.

Ahantu bashobora kugufasha kuba bakuvunjira amafaranga bitewe n'igihugu ugiyemo, ukaba waba ushaka amafaranga y'amadolari wari ufite amanyarwanda, bafata amafaranga yawe bakayahindura ayo madorari bitewe n'igihugu ugiyemo kugira bigufashe mu rugendo, mu gihe ukeneye amafaranga muri icyo gihe.

Intebe zifashishwa ku meza, mu mugihe abantu gufata amafunguro, zifiteho imisego y'ibara ry'icyatsi, zo zifite ibara ry'ikigina, ameza yifashishwa mu kurya, ndetse n'igitanda kiriho uburiri bwo kuryama.

Akabati kabikwamo ibikoresho muri salon amatara intebe zo kwicaraho utubati ni tubiri intebe harizireba ha ruguru n'izireba hepfo zifashishwa mu ruganiriro bicaye kabati kakabikamo ibikoresho bitandukanye, amatara yifashishwa kugira ngo haboneke urumuri.

Ibikoresho byifashishwa mu nzu, mu ruhande rwo kuriramo hariho ameza abaje mu biti, hejuru aho batereka ibintu hakozwe mu kirahure, intebe ku ruhande zifashishwa mu gihe bari gufata amafunguro.

Intebe ibajijwe mu giti igenewe kwicarwaho, ifite uburyo ki ihagazemo bitandukanye n'izindi zisanzwe iteretse ahantu babariza.

Ubwogero rusange pisine, buri ahantu basohokera muri hoteri, ibiti bigiye bitandukanye ku ruhande ndetse n'ubusitani, aho abantu bicara birinda izuba, ku bitanda bimanitseho imitaka irinda kuba izuba...

Ibikoresho byifashishwa mu ruganiriro arizo intebe, intebe zifite ibara ry'umukara irindi rifite ibara byi'kigina ameza kuruhande yifashishwa mu kuba barambikaho ibintu bigiye bitandukanye yaba, ibyo kurya, uri kwandika, amatara aboneshereza inzu kugirango habe umwijima.

Ifoto igaragaza mu amafunguro amwe ateketse neza ndetse no mu bikoresho atangirwamo muri hoteri, amafunguro agiye atandukanye ari mu ibikoresho bifite isuku aho umuntu aza agenda yiyarurira aho yumva yishimiye.

Inyubako ndende ikikijwe n'ubusitani, indabo, ifite amabati y'umukara, isima y'ibara ry'umutuku n'umweru ibiti ku ruhande.

Inyubako ishinzwe kwakira abantu baje mu bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro cyangwa se ibirori, yitwa Mariot ifasha kwakira ibikorwa bigiye bitandukanye, imyidagaduro, abantu basohotse bari kwishima cyangwa se abari mu nama.

Ifoto iratwereka imwe muri hoteli iratwereka amazi bogeramo abashyira ahantu hamwe inyubako y'imiturirwa ubusitani bwiza, aho kwicara heza ikayifashisha mu wamba cyangwa se ibindi waba ufite.

Ikigo cy'ubwishingizi cya Sanlam, kigufasha mu kwishingira abawe, ibyawe, ndetse n'ubuzima bwawe, amashuri y'abana, imishinga yawe, kwishingira mu gihe waba wagize impanuka cyangwa se ibindi byago.

Inyubako y'inzu itanga ubwishingizi mubyago ibyo ari byo byose umuntu yaba yahuye nabyo, haba impanuka, imitungo yawe yaba yangiritse, amafaranga yawe inzu yawe cyangwa se ibindi byago biba byakubayeho bakaguha ubwishingizi mu gihe hari ikibazo wagize.

Baratwereka ishami rya Musanze rishinzwe gutanga ubwishingizi ku bantu, imiryango yabo, ubuzima rusange, imitungo yabo ndetse n'ibikorwa baba bakora.

Inyubako ifite irangi ry'umweru, imiryango isize irangi ry'umutuku ahagana hasi hasize irangi ry'umutuku, amadirishya y'umutuku handitseho ijambo ryiza, byoroshye ubuzima bwiza u a p, aba ari cyo cyapa cyanditse kuri iyo nzu ngufuri ku muryango...

Umugabo uri gusinya ku bipapuro n'ikaramu y'ubururu ari kwandikira ku idirishya, yambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro ariyogoshesheje, inyuma yidirishya ari kwandikiraho hariho umugore wambaye ibimuranga uri kubara amafaranga nk'uko kuri banki bigenda.

Urupapuro rutuma umukoresha, umukozi amenya bimwe mu bisabwa kugira ngo ube wamenya inguzanyo uhabwa, amazina hari aho ushyiraho amazina y'ugiye kugurizwa, impamvu, akazi akora, igihe abonera amafaranga, inguzanyo yifuza uko ingana akazi.

Hano baratwereka uko watwara imodoka y'inzozi zawe ubifashijwemo mu kwiguriza hamwe na equity bank, ukaba wabona inguzanyo wishyura bigendewe k' ubushobozi ufite mu myaka itanu, kandi nta mafaranga bagusaba...

Isoko ry'imbuto, umukobwa wicaye ari gupanga urubuto rw'avoka amaronji ku ruhande agiye atondetse, inyanya mu ndobo, imineke itondetse, intoryi ingunguru irambitseho imineke yahiye n'indi itarashya iteretse ku kameza, ibijumba biri mu mabase igitoki giteretse hasi.

Abagore bari gucuruza ibirayi bigiye bitandukanye biri mu mifuka bafite ibikapu byo kubikamo amafaranga bagiye bacuruza ibirayi biri mu mubwoko bugiye butandukanye.

Isoko aho bagiye bacuruza imbuto zitandukanye harimo ibidegede, harimo amashuri, harimo ibitunguru, harimo insenda, inyanya ndetse n'ibiciro bigiye bitandukanye kuri buri gicuruzwa.

Iduka cyangwa se isoko ricuruza zimwe mu mbuto ndetse n'imboga zitandukanye, higanjemo aba mama ndetse n'abakobwa bari gucuruza izo mbuto n'imboga bigiye bitandukanye, urujya n'uruza rw'abantu baza kugura zimwe muri izo mbuto harimo imineke n'ibindi.

Isoko umugabo wambaye umupira w'ubururu uciyemo imirongo wicaye ku ntebe wambaye ingofero, umumama wambaye ikanzu, inkweto n'umupira urimo ibara ry'umukara n'umweru, uri iruhande rw'umugabo wambaye ishati irimo utudomo n'ingofero n'inkweto zifunguye aho bacururiza inkweto n'ibindi.

Terefone ngendanwa igaragaza ko ibyo ari gukora bitabashije gukunda, agakapu k'umukara baheka imbere ku rutugu, yambaye ipantaro ifite ibara ry'ubururu

Urupapuro rwa sosiyete y'itumanaho mtene rugaragaza uburyo ki ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe utishyuye amafaranga mu ntoki abari kukwereka kode cyangwa imibarushaho kwifashisha wishyura kuri hano hantu aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo tandatu na gatanu akanyari gatatu urwego kode rimwe zero umunani kane rimwe gatatu.

Akazu k'icyuma gakorerwamo n'abantu ba sosiyete y'itumanaho ya MTN,akazu gafite ibara ry'umuhondo, kanditseho amagambo agiye atandukanye, kubitsa, kubikura, kohereza amafaranga, kugura amayinite, gateretse ahantu ku muhanda.

Icyapa kigaragaza kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga ariryo Momo, aho ukanda, handitseho kanda akanyenyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akayenyeri, umunani, rimwe, kode yo kwishyuriraho, zero kane, gatatu, gatandatu, gatandatu, icyenda, urwego. Handitseho ngo nta yandi mafaranga wishyuzwa, biri ku cyapa cy'umuhondo.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo abagabo bane bambaye imyenda yiganjemo imipira y'umuhondo ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara hari n'uwo ufitemo umweru bakorera sosiyete y'itumanaho ya emutiyeni bari gusobanurira umugabo w'umwera ku bijyanye n'imikorere yabo.

Icyapa kigaragaza uburyo ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe, ukoresheje uburyo bwa sosiyete y'itumanaho bwa Emutiyene bwitwa momo uburyo wishyura, amazina yo bagiye kwishyuraho, kode ukoresha wishyura ndetse n'imibare ukanda mbere yuko wi...

Urubuga bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga utagombyeye kuba wagenda ku isoko, ahubwo ukaba wakicara iwawe ukoresheje telefone yawe ngendanwa cyangwa mudasobwa, ukaba watumizaho ikintu wakunze ukishyura kuri telefone bakakikuzanira.

Urubuga rwitwa tura muri Kigali rwifashisha kuba wagura cyangwa ukagurisha bimwe mu bikoresho wifashishije ikoranabuhanga aho kujya ku isoko cyangwa se ahandi hose biboneka ukaba wabasha kuba wagura wicaye iwawe cyangwa se ahariho hose waba uri muri Kigali.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo, imbere igikamyo gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi ry'ubururu, cyanditse ijambo iposita rifasha kujyana amabaruwa mu bice bitandukanye bitewe n'aho banditse, igikamyo giparitse imbere y'iyo nyubako y'umuhondo ku ruhande abaturage bari gutambuka.

Itangazo dushingiye ku bitekerezo byanyu turimo kuvugurura irembo gove kugira ngo tuyihe isura nshya, irembo konti; gushakisha, serivisiganda hano ubone serivisi zose ubukerarugendo umuryango icyemezo cy'uko uri ingaragu serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, icyemezo cy'utishoboye, ko utakoze jenoside yakorewe abatutsi.

Urubuga rwifashishwa mu kugura ndetse no kugurisha bimwe mu bikoresho waba ukeneye bakabikugezaho nta mafaranga wishyuye wabasanga ku rubuga rwabo ha, ta, ta, ta, pa, sa, utudomo, tubiri, uturongo tubiri duhagaze, magana abiri, iduka ryabo, akadomo, ca na o na ma, akanyerezo, telefoni wabasangaho, urubuga wabasangaho ukabandikira bakugezaho ibikoresho kubuntu.

Ifoto itwereka inzu iherereye Kigali mu Rwanda ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi, irimo ibikoresho, imitako nk'imigongo, televiziyo yerekana amashusho, akameza ko gutereka ho bimwe mu bikoresho, ameze yo kwifashisha. Iherereye Kibagabaga muri Kigali, harimo ibikoresho bitandukanye intebe ame marido.

Ijambo waduhamagara kuri nimero, kabiri gatanu zeru umunani, kabiri gatanu cumi n'ikenda makumyabiri na kane zeru, umugabo wambaye jire y'akazi ahagaze mu murima, hepfo hari inzu ifite amabati y'umutuku, imirima iramukikije asa nkaho ari kugira ibintu asobanura ku butaka.

Ibiti by'imikindo ubwogero, amadarajya azamuka ajya mu nyubako, umukobwa wambaye ikanzu, umugabo w’umuzungu wambaye ishati y'umweru n’ipantaro, indabyo k’uruhande mu busitani.

Inzu ikodeshwa amadorari igihumbi magana atanu ku kwezi muri Kigali mu Rwanda iherereye Kacyiru.

Ifoto igaragaza inzu ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi. Iherereye mu mujyi wa kigali mu Rwanda, kwereka uko icyumba kimeze, kirimo akabati kifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye, igitanda kiriho matela ndetse n'ibikoresho by'ibiryamirwa uko bisabwa.

Ubwiherero bwifashwa wituma ibikomeye cyangwa ibyoroshye, ijambo Kicukiro Kagarama Kigali city, inyubako igikuta kiriho amakaro igikoresho cyo gukarabiramo gifite ibara ry'umukara, icyirori cyo kureberamo, umugabo uhagaze mu kirori.

Inzu itararangira ikodeshwa, ifitemo ibyumba bibiri, ubwogero bumwe, iherereye mu gace ka Kibagabaga.

Inzu itaruzura yo gukodeshwa, irimo ibyumba bibiri ubwogero bumwe, inzu ikaba iherereye Kibagabaga.

Inzu ikodeshwa ihererereye hano ku Gisozi, ifite ibyumba bitanu harimo na saro harimo icyumba cyo kuriramo, wese enye, icyumba cyo gutekeramo ndetse n'inzu y'umukozi hanze n'ibindi.

Ifoto igaragaza inzu iri Kabeza iruhande rw'umurenge, igurishwa ikaba ari mu bwoko bwa kadasiteri, ifite amabati y'umutuku, ikaba iri kwamamazwa ko igurishwa.

Inyubako igurishwa mu Rwanda, ku mafaranga amadolari magana abiri, inzu nziza igeretse ifite amadirishya meza, iracuruzwa ku rubuga ku muntu waba wifuza kuyigura abari kuyamamaza hano.

Iduka ricuruza imyenda, ya siporo igiye itandukanye mu mabara atandukanye, amapantaro, imipira, amasengeri, amakabutura, bikoreshwa muri siporo cyangwa se kurimba bisanzwe.

Inyubako y'ubucuruzi. Icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye bitewe n'ikiciro. Bitondetse mu kabati; mu ma etajeri agiye abigabanijemo ibice kugira ngo byorohere ubigura.

Abaganga babiri umumama ufite ibyangombwa by'ubuvuzi ameza igitambaro ariho igitambaro, amakaye ku meza, akabati kabika ibikoresho by'abaganga umumama wambaye igitenge, abaganga bambaye amataburiya yo mu kazi.

Abantu bambaye imyenda yiganjemo amakanzu ndetse n'amajipo, bafite ibipapuro mu ntoki zabo, bicaye aho barindirira ibyo bakeneye kumva. Abahungu babiri.

Icyapa cyanditseho ijambo mitiweri ijambo arasisibi mituweri ishema ry'umuryango hariho ababyeyi bafite abana ndetse n'aba mama bakuze handiseho ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza mitiweri.

Inyubako batangiyemo serivisi za banki zo kubitsa no kubikuza mudasobwa ku ruhande intebe akabati abaturage b'ingeri zitandukanye bagiye bicaye, inkuta ziriho ibara ry'ubururu intebe abaturage barindiriramo serivisi.

Umukobwa ufite imisatsi wambaye amarinete yambaye ikoti, umupira imbere w'umwerucunga akagare yambaye ishashi mu ntoki ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri etage.

Isoko mukobwa uhagaze ku muryango ibiribwa bijyiye bifunze, ahantu hakonjesha kugirango bitaza gutakaza umwimerere wabyo, imigati iryohereye amasambusa n'amandazi.

Ifoto igaragaza inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, harimo ibikoresho bitandukanye, hano baratwereka umuntu aguze amavuta yo guteka, baratwereka ko bafite: imiti y'amenyo, amasabune, ibyo kunywa ,ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Iduka imashini ibara ibyo watwaye ikabara amafaranga, umugabo wambaye ikoti ry'umukara, umugabo wambaye ijiri ry'umuhondo n'ingofero irinda umuntu uri mu kazi y'umweru, bombo, ameza.

Aho bagurira ibikoresho, umugabo wambaye umupira w'umukara uteruye igikoresho cy'amashanyarazi, amacupa arimo ibinyobwa, ibyapa byamamaza ibinyobwa, ibikoresho bikoresha amashanyarazi, iguriro rusange abantu.

Inyubako bacururizamo inyanya umuntu wambaye umupira w'umuhondo n'undi w'umutuku, akagare bacungamo ibikoresho, itapi y'icyatsi amatara y'umweru, ibikingi by'umweru, aho babika ibicuruzwa, imbere ibyapa by'umuhondo n'ibyumutuku, ameza babikamo.

Iduka ricururizwamo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibinyobwa, aho bigiye bitondetse mu tubati. Aho bigiye bitondetse ibinyobwa ubwabyo ibirebwakwabyo. Umuturage cyangwa se umuguzi aza areba burikoresho akeneye ndetse n'ibiciro byabyo bitamugoye kuko bi ya bibitse hamwe.